Ibigo by'ubwishingizi usanga bifite intego yo kwereka abaturage cyangwa se abandi bantu bose babigana ko biba bihari kubwabo kandi byiteguye kubahereza serivisi nziza kugira ngo bumve batekanye maze babigane nta ngingimira.

Imyaka myinshi ishize abantu benshi batekerezaga ko ubwishingizi ari ubw'abakozi ba leta. Ariko binyuze mu kwamamaza akamaro k'ubwishingizi, abantu bamaze kumenya ko niyo waba udakorera leta ushobora gutanga amafaranga azakugoboka, igihe utagifite imbaraga zo gukora.

Igihe cyose ugiye kujya mu kigo cy'ubwishingizi bagerageza kugusobanurira kandi bakanakumvisha imikorere yabo, kugira ngo mukorane uzi neza uburyo bakoramo kandi urusheho no kumenya serivisi batanga ndetse n'amafaranga batanga igihe cyose ugiye gukorana nabo.

Kwishinganisha ndetse no gushinganisha ibyacu bikwiye gukorwa na buri wese, tutabihariye abifite cyangwa se abafite akazi ka leta gusa, kubera ko twese turabikeneye kandi ni ingirakamaro.

Nkuko tubizi ubwishingizi ni ingenzi mu buzima bwacu niyo mpamvu rero ibigo bikunda gutanga amatangazo, kugira ngo n'abantu batabizi bamenye ko ubwishingizi buri muntu wese yakishingira ubuzima bwe ndetse n'bye.

Ibigo by'ubwishingizi bisigaye bifatwa nk'aho ari imwe mu nkingi ya mwamba y'ubuzima kubera ko bifasha abanyarwanda kubaho batekanye kubera ko igihe cyose baba bizeye ko ibyabo ndetse n'ubuzima bwabo bishinganye ahatekanye.

Umuntu wese ushaka kubaho ufite umutekano, bimusaba kwizigamira ndetse agashaka n'ubwishingizi kubera ko ibyo byose iyo abifite ntakibazo yagira mu gihe kizaza.

Wihangayika niba ufite ubwishingizi kandi ukaba wishyura neza ubwishingizi bwawe, wowe ohereza ibisabwa byo kumenyesha impanuka igihe cyose aho uri hose, kubera ko gahunda yacu yiteguye kugufata.

Ibigo bitanga serivisi zitandukanye z'ubwishingizi bigerageza gukora imirimo yo kwiyamamaza hakoreshejwe imbuga nkoranyambaga cyangwa se murandasi kugira ngo abantu bose babimenye kandi bikoreshwe ku bwinshi bityo abantu bose babikoreshe bitagoye.

Ibigo bitandukanye hakubiyemo n'iby'ubwishingizi usanga mu rwego rwo gukurura ababikoresha bababwira ko hari inyongera bahabwa cyangwa se ibihembo igihe cyose babikoresheje neza, bityo bakitabira kubikoresha ku bwinshi kugira batsindire ibyo bihembo.

Ubundi ubwishingizi ni bwiza. Ariko hari abaturage benshi batabuzi kandi batabwemera. Ni byiza rero ko hashyirwa imbaraga mu kwamamaza ubwishingizi kugira ngo n'abatabuzi babumenye, kandi babwitabire.

Bitewe n'uko Abanyarwanda bagenda barushaho gutera imbere buri munyarwanda yasobanukiwe ko ari ngombwa ko agomba kuba afite ikigo cy'ubwishingizi akorana na cyo atangamo imisanzu ye bityo bikamufasha kwishinganisha agashinganisha n'ibye akaba atekanye.

Akenshi usanga ibigo bitandukanye nk'amabanke bigerageza gufasha abaturage gushyira imwe mu mirongo ishobora kubafasha gukoresha izo banke bitabasabye kujya aho zikorera kubera ko bakoresha iyorongo muri telefoni zabo bakarushaho kubona serivise z'ibyo bigo.

Byinshi mu bigo bitanga serivisi z'imari bimaze kumenya k'ikoranabuhanga, niyo mpamvu rero byashyizeho serivisi za mudasobwa bizwi nka apurikasiyo kugira no nabyo bitanga serivisi zabyo bikoresheje ikoranabuhanga.

Kubera ko ibigo byose by'imari bikorera mu mucyo, usanga igihe cyose ukoreyeho serivisi cyangwa se urundi rugendo urwo ari rwo rwose rwo kohereza amafaranga cyangwa se uyakira, baguhereza inyemezabwishyu cyangwa se urupapuro rwemeza koko wakiriye cyangwa wohereje ayo mafaranga.

Abantu basobanukiwe ko bashobora gutwara telefone zabo kandi bakazitwara hakubiyemo na banki bakoresha bityo igihe cyose bakeneye amafaranga bakabasha kuyabona bitabasabye kujya kuri banki kubera ko izo sosiyete z'itumanaho zagiye zibyoroshya umunsi ku munsi.

Hari igihe natekerezaga ko iyo umuntu akoresheje ikoranabuhanga yishyura cyangwa se yishyurwa bishobora gutuma atabona amafaranga ye, gusa naje gusobanukirwa ko burya ikoranabuhanga ari ryiza kandi ryizewe.

Akenshi na kenshi usanga ababyeyi iyo banyuze mu maduka acuruza imyambaro, bakahasanga umwambaro bakawishimira badakunze kuwuhasiga kubera ko babona bashobora kuzawukenera muri iyo minsi kandi bikabafasha gusa neza no kurimba.

Bakugira inama yuko niba ugiye gutangiza inzu y'ubucuruzi ugomba kwegera abantu kandi ukani yandikisha no muri leta kubera ko iyo utabikoze leta ishobora kuguca amande kubera ko uba ushaka kutishyura imisoro .

Hari igihe imyenda y'umuntu iba yashaje, ariko iyo afite amafaranga ajya ku isoko akagura ipantaro. Dore ko n'ubundi amapantaro akunda gukoreshwa n'abagabo ntabwo bimenyerewe ko abagore muri ibi bihugu byaha muri afurika bambara amapantaro.

Ubundi igihe cyose unyuze n'umwana mu iduka ricuruza imyambaro biragoranye yuko ushobora kuhamunyuza utamuguriye, akenshi rero ababyeyi mu rwego rwo kwirinda izo nduru usanga bahitamo gusiga abana mu rugo igihe cyose bagiye kunyuraho biribuze kubasaba kubagurira imyambaro.

Amaduka menshi acuruza ibijyanye n'imyambaro usanga akenshi afata amafaranga menshi kandi akunguka menshi; ni yo mpamvu usanga bagirwa inama yo gutanga umusoro ku nyungu kugira ngo bibarinde kugwa mu bihano, kandi bateze imbere igihugu cyabo by'umwihariko ku bwinshi.

Ibarura ryakozwe mu mwaka ushize ryagaragaje ko dufite amaduka arenze miliyoni icumi, hari amaduka acuruza imyenda, acuruza ibiribwa, acuruza serivisi z'ikoranabuhanga ndetse n'andi acuruza amazi.

Mu rwego rwo kugira ngo abantu biteze imbere, usanga bagerageza kwishakira imirimo igomba kubatunga by'umwihariko bakora ibikorwa bibyara inyungu, ugasanga bamwe bacuruza imodoka, abandi bagacuruza inzu cyangwa se ibindi bintu bigiye bitandukanye bibyara amafaranga.

Igihe cyose ushaka kugura imodoka uba utegetswe kwegera bamwe mu bazicuruza bakakurangira niba hari izo bafite, hanyuma ukabona gufata icyemezo cyo kuzigura, wamaze kubona izo bafite, ukaguramo zimwe muri zo ukabona kuyitunga.

Hari amoko menshi y'imodoka, hari imodoka zitwara abantu, imodoka zihinga ndetse n'izitwara imizigo ariko ziranatandukanye mu biciro ubwo rero ugura imodoka bitewe n'amafaranga ufite.

Imodoka zigurishwa zikunze gushyirwa ahagaragara n'ibigo byabyiyemeje kandi bikabikora nk'akazi kabo ka buri munsi, aho usanga aho ubakenereye hose ushobora kubahamagara kuri terefone cyangwa se ukabandikira bakagufasha utavuye aho uri.

Inzego z'umutekano zo mu Rwanda, zimaze kuvumbura ko har' abafata imodoka bakaziyitirira bakazigurisha. Niyo mpamvu rero mbere yo kugura imodoka ugomba gushishoza.

Abacuruzi b'imodoka nabo bagirwa inama yo kujya bishyura imisoro kuko n'ako ni akazi nk'akandi kandi ikabyara inyungu, bityo iyo misoro yishyuwe igashyirwa mu isanduku ya Leta ikabasha kwifashishwa hateza imbere igihugu cyababyaye kuko n'abo baba ari abakomoka muri icyo gihugu.

Hari abo usanga batazobereye mukugura ndetse no kugurisha ibikoresho runaka biba byiza rero niba ugiye kugura ibikoresho runaka nk'imodoka wegera ababizobereyemo.

Uwase baramuhenze igihe cyo yagiye kugura imodoka kubera ko imodoka afite yayiguze miliyoni mirongo itatu n'ebyiri kandi yari ikwiriye miliyoni cumi nenye bamugiriye inama yo kuzajya areba inzobere mu byo kugura imodoka zikamufasha.

Uwicyeza yagiye mu cyamunara aguramo imodoka ariko yababasigayemo ideni, bamusabye ko rero agomba kuzayishyura bitagenda bityo imodoka akayakwa.

Ama modoka ni bimwe mu bicuruzwa bihenda cyane, ni nayo mpamvu rero uba ugomba gushaka aba agenti babizobereyemo, kugira ngo uze kugura imodoka itaguhenze, kandi na none imodoka uguze iba ari nziza.

Imodoka nk'ibinyabiziga binini kandi bitwara abantu benshi, imizigo myinshi cyangwa se n'indi yose iremereye ni byiza ko igurwa n'abantu babizobereyemo; dore ko ushobora ku kujya kugura imodoka ugasanga baguhaye itameze neza cyangwa se itashobora kwikorera ibintu byinshi ugereranyije n'ibyo wifuza

Igihe cyose ukeneye serivise zifite aho zihurira n'imodoka, uba ugomba kugana bimwe mu bigo bishinzwe kuzikodesha cyangwa se abazamamaza bifashishije imbuga nkoranyambaga, bakakurangira ukagira amafaranga make uhaba, ariko igikorwa cyawe kikagenda neza.

Igihe cyose umuntu wamaze kwiyemeza kugura imodoka, bitewe n'uko yamaze kuyibona ku mbuga nkoranyambaga aho bayamamarije, aba asabwa kwegera ba nyir'igikorwa, bakagirana amasezerano, hanyuma bagahererekanya imodoka n'amafaranga, igikorwa kikarangira.

Igihe cyose bibaye ngombwa ko woherereza umuntu amafaranga uba ugomba kuzana ayo wari ufite mu ntoki ukayabika kuri telefone, wamara kuyabika kuri telefone ubundi ukayamwoherereza. Bigusaba gukoresha ayo wari ufite wari uri kwita ko ari kashi mu ndimi z'amahanga.

Kwitwaza amafaranga inoti, cyangway'ibiceri ntabwo bikiri ngombwa ubundi mbere wasangaga umuntu yitwaje amafaranga afite ubwoba bwo kuyata, cyangwa se bwo kuyibwa ariko ubu byaroroshye kuko uyashyira muri banki wakenerwa kurusha telefone ukayabikuza ukagura ibyo ushaka.

Amafaranga ni bimwe mu byazanwe n'abakoloni kubera ko mbere y'uko baza, abanyafurika ndetse n'abanyarwanda bakoreshaga uburyo bwo kugurana.

Igihe cyose usanga abakozi ba banki basabwa gukoresha ubwenge buri ku kigero cyo hejuru kugira ngo hataza kugaragara ubujura bw'amafaranga cyangwa se uyazanye kuyabitsa, akanyayanganywa amafaranga ye bityo bikamutera mu gihombo gikomeye cyane.

Muri iyi si y'ikoranabuhanga ntibikiri ngombwa kwitwaza inoti cyangwa se ibiceri; kubera ko ubu haje n'amafaranga y'ikoranabuhanga, ushobora kujya ku b'agent ukabitsa amafaranga kuri mtn cyangwa se kuri airtel

Igihe cyose urebye ku mafaranga y'u Rwanda, usanga hagenda hashyirwaho bimwe mu bintu ndangamurage kugira ngo uyakoresha wese abashe kurushaho kumenya cyangwa gusobanukirwa uburyo mu Rwanda bakora cyangwa se bimwe mu Rwanda rufite.

Banki nkuru y'u Rwanda yaburiye abaturage bagikoresha amafaranga y'ibiceri ndetse n'inoti kubera ko byagaragaye ko ayo mafaranga ashobora gukwirakwiza indwara ahubwo ibagira inama yo gukoresha amafaranga yikoranabuhanga .

Iyo ukorana n'ikigo'imari runaka, ukaba warabikijijemo amafaranga ariko ukaba ushaka kuyabikuza noneho, uragenda icyo kigo cy'imari kikayagusubiza, hari n'ibindi bigo biyagusubiza byongeyeho n'inyungu.

Ababyeyi benshi bo mu Rwanda bakunda gutemberana abana babo, muri pariki y'ibirunga, pariki y'akagera, kujya kureba ikivu, ndetse n'ahandi. Ariko nabagira inama yo kuzajya babatembereza aho bacuruza ibyo kurya, n'ibyo kunywa, nk'amata, kubera ko iyo bagiyeyo barayabagurira, kandi amata ni meza mu buzima.

Rimwe na rimwe usanga amazu acuruza ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa nk'amata adafite isuka ihagije, ibyo biterwa nuko baba nta bakozi bafite bahagije ariko nabagira inama yo kuzashaka abakozi bahagije kugira ngo bajye bita ku isuku y'ibiribwa cyangwa se ibinyobwa byabo.

Ahantu hose hari amaduka by'umwihariko acuruza ibikomoka ku mata, usanga bashishikarizwa gukoresha uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe telefone, kandi abo bahereza serivisi bakazibahereza mu buryo bunoze, bakabapfunyikira ibyo baguze, by'umwihariko ibikubiyemo amata.

Amata y'inyange ndetse na Mukamira, araryoha cyane kandi agira intungamubiri, ndagira inama ababyeyi yo kuzajya bagurira abana babo aya mata.

Ibyokurya bitandukanye by'umwihariko capati ndetse n'amandazi bikunda kuribwa akenshi mu gihe cya mugitondo mbere yo kugira ngo umuntu ajye mu kazi bityo bikamufasha kwirirwa afite imbaraga ndetse n'umurava mu byo akora kubera ko m,unda haba harimo ibyoku kurya.

Uko iminsi igenda isimburanwa usanga ubucuruzi bucuruza ibijyanye n'amata cyangwa se ibikomoka ku mata bugenda burushaho gutera imbere, bitewe n'uko amata akunze gukenerwa n'abantu benshi nyuma yo gusobanukirwa ko, ari ingenzi mu buzima bwa muntu.

Niba hari ahantu nkunda kujya, ni ahantu bacuruza amata kubera ko amata akungahaye ku ntungamubiri kandi nanone akaba ariyo atuma tugira imbaraga tukabyuka tugakora ibyo dushinzwe.

Amata agomba kubikwa mu bikoresho bifite isuku kandi agaterekwa ahantu hafite isuku, kubera ko iyo bitagenze bityo, bishobora gutera indwara ziterwa n'umwanda, kandi izo ndwara zishobora no guhitana umuntu.

Hari amoko y'ibiribwa agiye atandukanye abantu bashobora kwifashisha igihe cyose bategereje ibyo kurya, ariko akenshi usanga ibyo biribwa bikomoka ku ifarine kandi bikunda gukorwa n'abantu babigize umwuga babikora nk'akazi kabo umunsi ku munsi.

Ikigo cy'itumanaho kizwi nka MTN usanga kigerageza kwegereza serivisi zacyo abaturage, kandi kikagerageza kuborohereza kubera ko baba bakeneye kohererezanya amafaranga, cyangwa se kuyakira avuye ku muntu umwe ajya ku wundi.

Mu myaka ishize abantu ntabwo bizeraga kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga; ariko kugeza ubu abantu batangiye kugenda bumva agaciro ndetse n'akamaro ko kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga nka emutiyene mobile mani.

Iyo uguze ibintu ku ikoranabuhanga, biba byiza niyo ubyishyuye ukoresheje ikoranabuhanga, ariko ugomba kwitonda igihe cyose ugiye kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga ukizera neza niba abo ugiye kwishyura ari bo kandi ko baguhaye ibyo washakaga.

Nyiraruvugo ni umugore usobanutse cyane kubera ko aherutse kudusura mu rugo atwigisha uburyo twakoresha ikoranabuhanga, ubu nanjye nzi kugura ndetse no kugurisha nkoresheje ikoranabuhanga.

Abantu bose bamaze gusobanukirwa yuko na telefone ushobora kuyikoresha ubitsa cyangwa ubikuza amafaranga yawe cyangwa se ukayohereza uyavana ku muntu umwe uyahereza undi igihe cyose bibaye ngombwa kumwishyura, niyo mpamvu bitakiri ngombwa ko ujya gutonda imirongo kuri banke.

Usanga hari abakozi benshi b'amasosiyete y'itumanaho bashinzwe gushishikariza abaturage ko uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga aribwo bwiza kurusha uko bajya bakoresha amafaranga yo mu ntoki. Bityo bakabona ibihembo byinshi bigiye bitandukanye kandi abo bashishikaza nabo bakabikora nk'akazi.

Naje kumenya ko uburyo iyo ugiye kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga risaba kwitonda, kubera ko hashobora kuza abajura b'ikoranabuhanga, bakagucucura n'utwa wari ufite.

Mu Rwanda hamaze kujyaho uburyo bwinshi bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga buzwi cyane ni airtel mani mobile mani gusa nanone hari ubundi bwitwa aspen wifashisha wiwishyura ibintu byose ukoresheje ikoranabuhanga.

Akimara kwishyura imisoro yahisemo kubika icyangombwa kigaragaza ko yayishyuye ,kubera ko amafaranga yose yari yatanzwe yagaragaragaho. Ahitamo kuvuga ko agiye kukibika kugira ngo igihe cyose baje gusuzuma batazasanga atagifite akazi ke kagahagarara.

Umuntu wese wishyuye imisoro biba byiza ko ashaka inyemezabwishyu kubera ko iyo utayishatse bituma bagufata nk'aho utishyuye imisoro kandi warayishyuye.

Nigeze kugura ibikoresho by'ikoranabuhanga nkoresheje telefone yanjye bampa n inyemezabwishyu gusa hadashize amezi abiri telefone barayinyiba inyemezabwishyu ndayibura.

Inyemezabwishyu umuntu ahabwa nyuma yo kwishyura aba agomba kuzibika neza kandi akazicungira umutekano, kubera ko igihe cyose ashobora kuzibazwa bikaba ngombwa ko azitanga kugira ngo ahabwe serivisi runaka bitamugoye.

Mperutse kujya mu gihugu cy'abaturanyi mfite amafaranga y'amanyarwanda, nagiye ku bacuruzi mbura icyo ngura ariko bahise bangira inama yo kujya kuvunjisha, nabyumvishe vuba ndagenda ndavunjisha ndaza ngura ibyo nshaka.

Iyo ufite amafaranga y'abanyamahanga, kugira ngo uyakoreshe bikoroheye, uba ugomba kuba uyafite mu ntoki, kubera ko kuri telefone usanga abantu benshi batayemera, bitewe n'uko batabasha kumenya agaciro kayo, nk'uko byagenda uyafite mu ntoki.

Gukoresha amafaranga y'abamanyamahanga ni byiza ariko nanone tugomba kubi kugendamo gake, kubera ko iyo muyakoreshe cyane bituma amafaranga yanyu ata agaciro, bityo mukaba mwahera mu bukene.

Ku Isi habaho ibihugu byinshi bigiye bitandukanye kandi buri gihugu kigira amafaranga yacyo, ariko ndibaza nti ese amafaranga ava he? Niba mufite igisubizo munsubize nanjye numvireho.

Muri iyi minsi leta iri gukora uko ishoboye ikazamura agaciro k'amafaranga yayo kugira ajye ku rwego rw'amafaranga y'abanyamahanga bityo abanyarwanda nibajya bajya gukoresha amafaranga yabo mu mahanga babanje kuyavunjisha n'amafaranga yabo ajya agira agaciro.

Byamaze kugaragara ko amafaranga ari ingirakamaro kubera ko adufasha mu bintu bigiye bitandukanye byaba kwishyurira abana amashuri, kubona ibyo kurya, ndetse n'imyambaro.

Iyo uzanye amafaranga y'abanyamahanga mu gihugu icyo aricyo cyose, uba ugomba kujya ku biro bishinzwe kuvunja ayo mafaranga bakakuvunjira bakaguhereza ayo muri icyo gihugu bakoresha kugira ngo nawe ubashe kugira uruhare ubashe no kubona serivisi zitandukanye.

Amafaranga yo muri leta zunze ubumwe za Amerika benshi dukunze kwita amadolari, afite agaciro gakomeye kurusha ayo mu Rwanda, kubera ko nk'ubu idolari rimwe, rivunja amanyarwanda igihumbi na magana atatu.

Ivuunja ndetse n'ivunjisha ry'amafaranga ni bimwe mu bikorwa bigomba gukorerwa mu mucyo kandi bigakorwa n'abantu babifitiye uburenganzira, kuko bitabaye ibyo byarangira igihugu gihuye n'igihombo gikomeye.

Kuvunja ndetse no kuvunjisha amafaranga ni igikorwa kigomba kwitonderwa; kubera ko iyo bitagenze gutyo ukabikora utabiherewe uburenganzira ;ushobora no gutabwa muri yombi.

Igihe cyose winjiye mu gihugu amafaranga wowe ufite ayo ari yo yose bitewe n'igihugu runaka uturukamo uba ugomba kuyagira kuri terefone cyangwa se ukayagira mu ntoki kubera ko igihe cyose usabwe kwishyura wishyura kandi utagoye ugusaba kumwishyura.

Yavuze ko igihe cyose agiye kujya kuvunjisha amafaranga ye ku nzu zishinzwe iby'ivunjisha agomba kwitwaza n'undi muntu mu rwego rwo kurinda umutekano we kugira ngo udahungabanywa n'undi uwo ari we wese kubera ko amafaranga afite aba ari menshi.

Niba ufite amafaranga y'abanyamahanga, biba byiza ko ujya ahabugenewe bakakuvunjira, kubera ko iyo ugiye ahatabugenewe biba ari amakosa, iyo bagufashe ushobora no guhanwa.

Mu bihugu bimwe na bimwe usanga hari igihe amafaranga yabo yatakaje agaciro biba byiza rero iyo banki ifashe ayo mafaranga yose ikayakusanya maze ikazayasubiza mu baturage igihe amafaranga yagaruriye agaciro .

Abakozi b'ibigo bitandukanye nk'amabanki cyangwa se izindi sosiyete z'itumanaho, usanga bagerageza gushyira utuzu twobo bakoreramo impanda y'umuhanda, kugira ngo ababakeneye babone bitabagoye, kandi babahe serivisi bitabasabye kujya aho icyo kigo gikorera.

Mperutse kumva itangazo kuri radiyo bavuga ko kuvunjisha amafaranga y'abanyamahanga ahantu hatemewe bishobora kukugiraho ingaruka nanjye nahise mfata umwanzuro ko nimbona amafaranga y'abanyamahanga nzayavunjisha ahantu hemewe.

Ahantu hose hari ibiro by'ivunjisha usanga hacungirwa umutekano n'abantu benshi kandi bakomeye, kugira ngo amafaranga arimo atibwa bityo bigahombya ibyo bigo by'imari, kandi bifitiye umumaro munini umuryango nyarwanda ku bwinshi cyane.

Mukamurenzi avuye mu mahanga vuba aha yazanye amafaranga atari abanyarwanda byamusabye kujya kuyavunjisha kugira ngo atangire kuyakoresha, kubera ko bitemewe kugura ibintu cyangwa se kubigurisha mu mafaranga y'amanyamahanga utabifitiye uburenganzira.

Marume witwa Iradukunda atuye muri leta zunze ubumwe za Amerika, aherutse kunyohererereza amafaranga ibihumbi icumi, nahise njya kubabishinzwe ndayabikuza mpita ngura ibyo nshaka.

Ibigo bikora imirimo y'ivunjisha kubera ko akenshi biba bivunja amafaranga y'amanyamahanga, usanga bigirwa inama yo kwitwararika, kandi bikishyura n'imisoro nk'uko iyindi mirimo yose ibyara inyungu yishyura, kandi bikubahiriza igihe cyo kuyishyura kugira ngo bitazacibwa ibindi bihano.

Inzu zishinzwe gukora imirimo y'ivunjisha by'umwihariko izivunja amafaranga y'abanyamahanga, ziba zigomba kwegezwa abaturage kandi zigashyirwa henshi mu gihugu kugira ngo igihe cyose umuturage akeneye kuvunjisha amafaranga afite, by'umwihariko ay' abamanyamahanga abikore bimworoheye.

Igihe cyose ugeze ahantu ugasanga hari umukozi uhagarariye ikigo gikuru gishinzwe iby'ivunjisha, uba ugomba kumwegera kuko nawe yagufasha, akaguhereza serivisi wagombwaga guhabwa, ku giciro nk'icyo wahabwa ugeze ku kigo gikuru.

Rimwe na rimwe abanyamahanga bakenera abantu babasemurira kugira ngo igikorwa cy'ivunjisha kigende neza kuko niyo mpamvu usanga abashinzwe gukora mu bigo by'ivunjisha basabwa kuba bazi indimi zitandukanye kugira ngo batange serivisi nziza ku bantu bose.

Ibikoresho nk'ameza, intebe ndetse n'utubati dushyira mu rugo cyangwa se mu biro, ntibyoroshye kubibona kubera ko bikorwa mu biti kandi n'ibiti bikaba byarabuze.

Abacuruzi b'intebe akenshi ukunze gusanga bafite aho bakorera hazwi neza kugira abaguzi nibazikenera bajye kubareba bityo barusheho gukesha salo zabo kandi urugo rukurushaho kugira isuku ku buryo bunoze.

Burya iyo inzu ifite ibikoresho byo mugo nk'ibitanda, ameza, intebe, ndetse n'ibindi iyo nzu iba ifite agaciro. Gusa na nonene ntabwo byoroshye kuba wakwigurira ibyo bikoresho. Ni byiza rero ushaka abazobereye mu kugurisha ibyo bikoresho, maze ukabigurayo

Umuntu akeneye ibintu bitandukanye kugirango abeho neza, akenewe ibiryo, akenewe aho kuba, ariko aho kuba haba heza iyo yashyizemo ibikoresho byo mu inzu.

Mu gihe cyo hambere ntamatara yabaga ku mihanda, ibyo byatumaga habaho urugomo kandi abantu bakaba batagenda n'ijoro ariko kugeza ubu amatara ari ku mihanda igiye itandukanye, byagabanyije urugomo kandi abantu bagenda ntarwikekwe.

Mu bihugu by’Afurika y’uburasirazuba, wasangaga bigoye ko wasanga inzu zo gucumbikamo abenshi tuzi nka hoteli. Ariko ubu, iki kibazo cyakemuwe n’u Rwanda kubera ko izi nzu zihari kandi ku bwinshi.

Nigeze gutembera mu bihugu bya kure maze ngezeyo mbura aho nshumbika! Ariko nabajije abatuye aho ngaho bahandangira hoteri nziza cyane yari ihakikije.

Ni byiza ko amazu acumbikira abantu ndetse akanakira abantu hatandukanye hagomba kuba ari ahantu hafite umucyo kandi hari isuku kubera ko iyo bitabaye ibyo nta muntu wajyayo.

Aho abantu biyakirira bakahafatira ibiryo ndetse nibyo kunywa haba hagomba kuba isuku kubera ko iyo bitabaye bityo ibyo biryo nibyo kunywa bizamo umwanda.

Igihe cyose ugiye muri hoteli cyangwa ahandi hantu runaka hahurira abantu benshi, ukunze kuhasanga ikawa by'umwihariko ipfunyitse aho igomba gupfunyikwa ahabugenewe kubera ko hari abantu benshi bafite amafaranga kandi bayikoresha nk'umuti bakunze kuyikenera.

Igihe cyose ugiye gukoresha inzuzi karemano zimwe zogerwamo n'abantu benshi uba ugomba kwitwararika kugira ngo utanduriramo indwara zitandukanye, kubera ko uba utazi abagiyemo ngo bahagaze bate kandi ukavamo ushaka kujya kwa muganga kugira ngo wisuzumishe.

Iyo utuye ahantu ukaba uhafite inzu uba ugomba kuhashyira ubusitani bukurura umwuka mwiza abantu bahumeka, kugira ngo abaturanyi cyangwa se abakugenderera igihe cyose bari iwawe bajye babasha guhumeka umwuka mwiza, uturuka muri ubwo busitani witereye.

Amahoteli akenshi usanga afite ahantu haza akayaga cyangwa se amahumbezi bamwe mu baguzi babo bakenera serivisi bakunda kwicara mu gihe cyose bategereje guhabwa ibyo basabye cyangwa se bahisemo kuhacumbika bakahicara bari gukoresha telefone cyangwa basoma ibitabo.

Ushobora gufata ubwishingizi bw'ingeri zitandukanye hariho ubwishingizi mu kwivuza, ubwishingizi bw'amatungo, ndetse n'ubwishingizi bw'imitungo itimukanwa.

Ibigo byinshi bitanga ubwishingizi usanga bifite amategeko abigenderaho, urugero hari umugabane shingiro uba ugomba gutanga, iyo umuntu atawutanze na we ubwo ntabwo ashinganishwa.

Leta nayo igerageza gushishikariza ibigo bitanga serivisi z'ubwishingizi nyinshi, kwagura aho zikorera kandi zikarushaho kugaba amashami mu bindi bice by'igihugu kugira ngo zibashe gukoreshwa na benshi kandi bose bazimenye barusheho kuzakira mu mibereho yabo.

Muri rusange niba ushaka kugira ubuzima bwiza ugomba kugira ubwishingizi, haba ubwishingizi bw'ubuzima bwawe ndetse n'ubwishingizi bw'ibintu byawe kubera ko iyo ugize ikibazo ubwo bwishingizi burakugoboka.

Kugira ubwishingizi, ni bimwe mu byo umuntu yakwirata, kubera ko iyo ufite ubwishingizi uba ushinganishijwe, nta kibazo gishobora kukubaho ngo kiguhangayikishe.

Igihe cyose ugiye kujya mu nyubako itangirwamo serivisi runaka, ugasanga hari aho bagutegetse ko ugomba guhagarara mbere yo kwinjira, uba ugomba kubyubahiriza bakaza bakareba niba nta kintu ufite cyahungabanya umutekano w'abarimo imbere, ubundi bakakureka ukinjira.

Igihe cyose ufite ubwishingizi uba wizeye neza ko ubuzima bwawe butekanye kubera ko aho ukenereye kwivuza urivuza kandi n'iyo ibyawe byagwa mu kaga ubwishingizi burabigomboza ukabiguhereza ku kigero nibura kimwe cya kabiri cy'icyo watanze.

Ahantu hose hari ibiro by'ikigo runaka haba hagomba gucungirwa umutekano kandi hakaba hari abakozi benshi by'umwihariko mu bigo bitanga serivisi z'ubwishingizi, kugira ngo abantu bazihabwe vuba kandi byihuse bitabasabye gutonda imirongo cyangwa ngo bahatinde.

Ibigo by'ubwishingizi bikomeje kuba byinshi mu gihugu, kubera ko bikenerwa n'abantu benshi kugira ngo bashimiganishe ubuzima bwabo, niyo mpamvu usanga bigerageza kwiteza imbere yewe bikazamurana umunsi ku munsi kugira birusheho gutanga serivisi zinoze.

Banki ya kigali (bk) ni banki usanga yariyemeje gutanga serivisi nziza ku baturage, aho usanga igira uruhare rukomeye mu iterambere ryabo binyuze mu kubaha inguzanyo bagakora ibikorwa bibateza imbere ,bakarushaho gutera imbere mu mibereho yabo ya buri munsi.

Ibigo by'imari byinshi usanga bivuga ko bishingira ku bwizigame bwa muntu kugira ngo babone uko bamuha inguzanyo, cyangwa se bagashingira ku mutungo utimukanwa afite bityo bakabona kwizera neza ko bamuha inguzanyo akazabasha kuyishyura nta kigoranye.

Umwari n'umugore umaze gutera imbere, yagannye ibigo by'imari bigiye bitandukanye, akazajya abitsamo akanabikuza none ibyinshi byaramwizeye bisigaye binamuha inguzanyo.

Nari nzi ko gufata inguzanyo ari ibintu byoroshye, ariko naratunguwe cyane, kubera ko ngo burya bisaba kuba ufite ingwate, kandi ukaba umaze igihe kinini ukorana na banki.

Iyo umuntu yumva ashaka inguzanyo; yaba iyo kugura inzu, ubutaka cyangwa se gukoresha indi mishinga yose ushaka, bimusaba ko yegera ikigo cy'imari bakorana, maze bakamuha iyo nguzanyo, nawe agakora ibyo ashaka.

Mperutse guhura n'ikibazo njya kwaka inguzanyo mu kigo cy'imari dukorana ariko bambwiye ko batayimpa kubera ko ntangwate mfite, nahise mvuga nti burya n'ibigo by'imari ntabwo wabyizera.

Amaze gutekereza neza yasanze imwe mu nzira ishobora kumufasha kugera ku iterambere ari ukwisunga ibigo by'imari agakorana na byo, akabasha kwizigamira bimworoheye hanyuma agahabwa n'inguzanyo, ikamufasha kwiteza imbere akabasha kwigisha abana be bakiga amashuri makuru na za kaminuza.

Mfite umushinga wo gufungura iduka ricuruza imyenda mu karere kacu; ariko nta mafaranga mfite, gusa inshuti zanjye zangiriye inama yo kujya muri banki maze nkiguriza amafaranga.

Ibigo byose by'imari, usanga byiha inshingano zo gutanga inguzanyo ku bindi bigo bitandukanye, cyangwa se kuri ba rwiyemezamirimo bato, akenshi bakiri gutangira, igihe cyose waberetse ingwate, kandi ayo mafaranga iyo bayaguhaye, agufasha mu kwiteza imbere, ugateza imbere n'ibikorwa byawe.

Muri iyi isi y'ikoranabuhanga ntibikiri ngombwa ko uba ufite ingwate kugira ngo usabe inguzanyo. Kubera ko hari n'icyo bita digito loni porovayida, cyangwa se guhabwa inguzanyo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Niyo mpamvu rero ushobora kwifashisha iyi serivisi ugakoresha telefone yawe ugasaba inguzanyo.

Mbere yo kugira ngo umuntu wese afate inguzanyo, aba agomba kubanza gusoma amategeko n'amabwiriza agenga inguzanyo hanyuma akayifata yizeye neza ko yiyemeje ko azishyura buri kimwe cyose azabazwa, kubera ko aba akora ibintu azi.

Koperative dutere imbere igizwe n'abanyamuryango barenga magana abiri, abo banyamuryango bose hari igihe baba bashaka inguzanyo ariko umuyobozi wayo Kalisa ababwira ko bose batabora inguzanyo rimwe ahubwo bagahera kuw'ukeneye inguzanyo cyane.

Kugira ngo ubone inguzanyo, ugomba kuba ufite imigabane mu kigo cy'imari runaka kandi ukaba umazemo igihe kirekire. Iyo bitameze gutyo ntabwo wabona inguzanyo.

Nkunda gutemberera mu masoko acuruza imbuto kubera ko, abaganga bambwiye ko imbuto zigira akamaro, kandi iyo ntembereyemo ntabwo ntahira aho kubera ko hari izo ntahana.

Amasoko ni imwe mu ngamba zafashwe kugira ngo abantu babashe kubona aho bagurisha biboroheye kandi banagure ku giciro kiri hasi, bityo ubucuruzi bworohere buri umwe wese ubukora hagati y'abantu bamwe na bamwe; kubera ko usanga ariho ubuzima bwabo bushingiye.

Abantu bagirwa inama yo kwitabira kurya ibikomoka ku mboga n'imbuto by'umwihariko bikunze kuboneka mu masoko yabugenewe abicuruza. Kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza kandi usanga akenshi ibyo byokurya bikunze kuba bimwe mu birinda indwara, bigafasha abantu gukomeza ubuzima neza.

Mu mijyi y'ahantu henshi cyane cyane nko mu Rwanda usanga hari amasoko. Kandi ahari amasoko haba haparitse imodoka nyinshi, biba byiza rero iyo ugiye uzi ko ugomba kwitwararika kugirango utaza gukora impanuka.

Igihe cy'ibyorezo, urugero : "covid cumi n’ icyenda" ubuyobozi butugira inama bwo kudahura turi abantu benshi. Kandi ubuyobozi bukunda gufunga amasoko, bivuze ko nyine amasoko ari ahantu hahurirwa n’abantu benshi bityo bikaba byateza umurindi.

Mu turere twinshi two mu Rwanda dufite amasoko y'icyitegererezo, ayo masoko usanga acururizwamo n'abantu batandukanye, haba abacuruza imbuto, ibyo kunywa, ibyoku kurya, ndetse n'imyenda.

Abacuruzi akenshi na kenshi bakunda gushishikarizwa ko ari iby'ingenzi kwishyura bakoresheje telefone, mu rwego rwo kugira ngo badakwirakwiza amafaranga bayahererekanya mu ntoki bigatuma habaho kwanduzanya indwara zituruka ku mwanda cyangwa se kudakaraba intoki bakoze ku bintu abandi bantu bakozeho.

Hamwe na hamwe usanga serivisi z'ikoranabuhanga zitahagera, kubera ko badafite ab'agent b'amasosiyete atandukanye baba ari sosiyete ya mtn cyangwa se airtel.

Nk'uko bigaragara ibigo by'itumanaho mu Rwanda birashaka gusakaza iterambere no mu byaro, niyo mpamvu rero batanga akazi no ku rubyiruko ndetse n'abandi bantu bakuru kugira ngo bajye batanga gahunda zabo zijye zitandukanye.

Ibigo bikomeye nka aribababa, amazone ndetse n'ibindi bikorera ubucuruzi bwabyo kuri enterinete, bitanga icyo bita ijambo banga rikoreshwa rimwe, iri jambo banga urishyira muri telefone yawe kandi inyuma y'amasegonda make ntabwo wakongera kurikoresha kuko batanga irindi.

Mama umbyara yambwiye ko yari agiye kumpamagara mu cyumweru gishize ariko agasanga nta mafaranga afite muri telefone, hanyuma ngo yahise ajya ku mu ajenti umwegereye ahita ashyiramo amayiniti arampamagara.

Bimaze kugaragara ko abaturage bose bamaze gutera imbere mu buryo bw'imitekerereze, urwego rw'itumanaho MTN rwiyemeje kugenda rukwirakwiza abakozi barwo, hirya no hino mu duce kugira ngo barusheho gutanga serivisi nziza zinogeye abazihabwa.

Ku wa gatatu ushize ikigo cy'itumanaho cya eyateri cyaradusuye aho dutuye, badushishikarije gukoresha serivisi zabo zirimo gukoresha amafaranga y'ikoranabuhanga twishyura ndetse tunagura ibintu.

Igihe cyose abantu batanga serivisi zijyanye na eyateli mani cyangwa se mobayiro mani, ni abantu b'ingenzi cyane kubera ko bafasha abagize umuryango nyarwanda koroherwa no kubona serivisi ku buryo bworoshye mu buryo bwo guhererekanya amafaranga ava ku muntu umwe ajya ku wundi.

Byaroroshye abanyarwanda ntabwo bakigomwa no kujya kugura cyangwa se ngo bagurishe ibicuruzwa byabo hanze mu bindi bihugu, ahubwo bakoresha murandasi bagakora ubucuruzi bukorerwaho n'uko bakabasha guhererekanya amakuru ku bicuruzwa bitandukanye.

Uyu munsi naguze ibintu nkoresheje telefone yanjye, ariko umuturanyi wanjye yambazaga n'ibyo biri bwangereho, gusa aho nabiguze nakoresheje umumotari ahita abingezaho.

Abantu benshi ntabwo bakunze kwizera ubucuruzi bukorerwa kuri murandasi kuko usanga bavuga ngo twabwirwa n'iki ko uwo duhaye amafaranga azatugezaho ibyo tumutumye atatwambuye bityo bagakeka ko habamo ubwambuzi, bigatuma batabikora kandi ngo birusheho gutera imbere.

Niba dushaka gutera imbere ibigo byo mu Rwanda bigomba gukoresha ikoranabuhanga bikemera kwishyura ndetse no kwishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga, bukamamaza ibikorwa byabo ku mbuga nkoranyambaga ndetse bukanemera kubakisha imbuga za murandasi.

Hari imbuga nyinshi za murandasi zo guhahira gusa zose ntabwo aribwo zizewe, kubera ko hari izo uhahaho ibintu ntibabizane, cyangwa se babizana ugasanga bitujuje ubuzirantenge.

Kugira ngo ubashe gutumizaho ibyokurya bikugeho igihe uba usabwa kuba watanze umwirondoro ndetse nahoho uri wabivuze ku buryo bugaragara, kugira ngo utaza kuyobya umwe mu bari bukugemurire bigatuma akazi ke katagenda neza.

Iyo ugeze mu isoko ahantu hose hakorerwa imirimo y'ubucuruzi kandi ibyara inyungu uba ugomba kwitwararika mu rwego rwo kubungabunga amafaranga yawe, kubera ko igihe cyose utitwararitse ushobora kwibwa ayo mafaranga bikarangira udatahanye ibyo waje gushaka.

Kugura cyangwa kugurisha ukoresheje murandasi ni igikorwa cyoroha cyane kubera ko gikorwa ugura cyangwa ugurisha atavuye ahari bityo akazi ke kagakomeza kugenda neza kandi n'ibyo yatumije akabibona mu gihe runaka bemeranyijwe.

Yaje gusanga bimworohera igihe cyose atumijeho ibintu akoresheje murandasi ,bitamusabye kugenda ngo agere neza aho ikigo runaka gikorera ngo akunde abone serivisi zacyo, abona rero bishobora ku zamworohera kandi bigakorwa bitabangamiye akazi ke kaburi munsi.

Abatwara moto benshi tuzi nk'abamotari bagomba kwibumbira mu matsinda, bakajya bambara impuzankano. Kubera ko iyo bari mu matsinda bituma bizigamira umwuga wabo ugakomeza gukorwa kinyamwuga.

Mu mwaka w'ibihumbi bibiri ntitwari tuzi ko umuntu ashobora gufata telefone, ye agahahira ku ikoranabuhanga ariko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nagatanu, tumaze kubona ko ibintu byose bishoboka kubera ko nkubu mfata telefone yanjye nkahahira ibintu nibereye iwanjye.

Bitewe n'uko abantu benshi usanga batwawe n'akazi bakabura umwanya wo kujya aho bagomba kurira, usanga hari ibigo byiyemeje kujya bibagemurira ibyo kurya aho bakorera, kandi bakabaca amafaranga make yiyongera ku yo batanze nka mafaranga y'urugendo.

Uwayo aherutse kumbwira ko yakoresheje telefone ye, akagura ibintu kuri murandasi nahise nibaza uko byamugezeho, yarambwiye ati bagahaye umumotari arabimuzanira.

Ntabwo bikiri ngombwa guhangayikishwa no guhaha kubera ko hamwe n'ikoranabuhanga ushoboraha ukoresheje telefone yawe, hari imbuga nka ihaha akadomo rwa na amazone zigufasha guhaha ibyo ushaka byose.

Iyo ukeneye inzu muri Kigali bigusaba guhamagara umuntu ubayo cyangwa se ukora akazi ko kuzicuruza akakurangira aho ugomba kuyigura kandi nziza, bitewe n'uko baba bazi neza aho ziri kuboneka kandi ku mafaranga atari menshi.

Igihe cyose hari inyubako runaka yatangajwe ku mbuga nkoranyambaga, nko mu buryo bw'isoko rikorerwa kuri murandasi, haba hagomba kugaragazwa ingano yayo, cyangwa se hagashyirwamo n'ibyumba iyo nyubako ifite, kugira ngo uyiguze amenye neza ibyo aguze.

Imbugankoranyambaga zabaye imwe mu nzira yoroshya ubucuruzi, bitewe n'uko abantu bazikoresha kandi bagakora akandi kazi bakamamarizaho ibyo bacuruza nk'inzu cyangwa se imodoka, ababikeneye bakaza kubisangaho bakumvikana ku giciro runaka.

Inzu zose zicururizwa kuri murandasi ziba zigomba kuba zujuje ibisabwa kuko bisaba ngo umuntu wese ugiye kuyigura abe yabonye buri kimwe cyose ku buryo bw'amafoto bityo igihe cyose yayeretswe imbonankubone ntazagire ibitamushimisha ngo bibangamire igura n'igurisha.

Usanga bitoroshye kugira ngo wigondere inzu muri Kigali by'umwihariko ziba zibarirwa mu ma miliyoni menshi kubera ko usanga harimo bimwe mu bikoresho byo mu rugo uzakenera nk'akabati cyangwa se ameza, bityo bigatuma zihenda kurushaho.

Ubundi kwizigama ni byiza, ariko sinakugira inama yo kwizigama amafaranga uyashyira ahantu hamwe. Ahubwo, nakugira inama yo kugura imitungo utimukanwa, kuko iyo wizigamye ukoresheje uburyo butuma ubona inyungu z’igihe kirekire, bigira akamaro kurushaho.

Data afite inzu mu mujyi wa kigali iyo nzu nini cyane ariko arimo kuyigurisha niba ufite amafaranga naguha nimero ze ukamuhamagara nawe ukagura iyo nzu.

Iyo inzu runaka iri kugurishwa cyangwa se iri gukodeshwa, yamaze gutangazwa ku mbuga nkoranyambaga n'abashinzwe kuyigurisha, akenshi bakunze kugaragaza ko harimo ubwiherero bwa kijyambere, cyangwa se ibindi bikorwa bya kijyambere, bishobora gukurura umuguzi.

Iyo ugiye kugura inzu ugasanga ibikoresho byose wasabwaga gusangamo bitarimo, uhamagara umuntu wayikugurishije ukamubaza aho ibyo wabonaga ku mafoto nk'igitanda cyangwa se akabati byaba byaragiye wasanga hari ibyagurishijwe ukabigaruzwa.

Kubona inzu ukodesha muri Kigali ntabwo bikiri ikibazo kubera ko hari ababigize nk'akazi kabo ka buri munsi, aho usanga bafotora amazu bakayashyira ku mbuga nkoranyambaga, bityo abazishaka bakazibona bitabagoye bagafata nimero zabo bakaza kubahamagara bakabivuganaho.

Igihe cyose umuntu wese ucuruza amazu, afite inzu nziza zigaragara neza ku mafoto, bituma abaguzi bakururwa na zo, bakaza kuzigura ku bwinshi, bigatuma umugurisha agira inyungu zihuse mu gihe gito.

Iyo uri umucuruzi ariko ukaba ucuruza imitungo itimukanwa hakubiyemo inzu cyangwa se ubutaka, uba ugomba gushyiraho igiciro cy'amafaranga ushaka ariko ukabwira abantu bashaka kuyigura ko mushobora kumvikana cyangwa se mutakumvikana akaza azi uko agomba kwitwara.

Ikigo kitwa tubeho neza gifite inzu mu Rwanda hose, nko mu karere ka Gasabo, Nyarugenge, Kicukiro, Nyanza, i Huye ndetse n'i Rubavu.

Muri Kigali igihe cyose udafite amafaranga yo kugura inzu, ushobora no guhitamo kuyikodesha ukajya wishyura buri kwezi cyangwa se k'umwaka, icyambere ni uko wubahiriza amasezerano wagiranye na nyiri inzu kandi ukemera guhemba uwayikurangiye.

Rimwe na rimwe imbuga nkoranyambaga zifasha ba rwiyemezamirimo gucuruza ndetse no kumenyekanisha ibyo bakora binyuze mu buryo bagenda bagatangaza ibyo bakora kandi bikabonwa n'isi ngari kuko usanga abantu benshi bazikoresha bityo bakarushaho kwamamara.

Usanga mu Rwanda hari ibigo byinshi bizwiho gutanga serivisi zirimo kubarura ubutaka cyangwa se indi mitungo itimukanwa, bifite ahantu bwite bikorera kandi bizwi, aho usanga bisorera leta, kugira ngo byemererwe gukorera mu gihugu.

Dufite amoko menshi yo kwizigama ariko ukwizigama kwiza n'ukwizigamira binyuze mu kugura imitungo itimukanwa kubera ko iyo ubikoze gutyo ubona inyungu nyinshi kandi igihe cyose.

Ntabwo bikunze kubaho ko abantu babona ibibanza bashaka ku giciro kiboroheye, bitewe n'uko ubutaka bugenda buba buke mu gihugu cy'u Rwanda kandi ahantu hagenewe imiturire ari hake, kubera ko abantu bagenda baba benshi cyane umunsi ku munsi.

Uko iminsi igenda isimburanwa usanga abantu bagerageza kurushaho kwishyira mu bikorwa byo gucururiza ku mbuga nkoranyambaga kandi bagacururizaho ibikorwa biremereye cyane nk'amazu ndetse n'ibindi, kubera ko bazi ko ariho hantu haboneka isoko kandi ku bwinshi.

Ubucuruzi m'u Rwanda, ni ikintu cyagerageje gutezwa imbere cyane kubera ko usanga ahantu hose ugiye uhasanga inzu zikoremo ubucuruzi kandi ngari, bikagufasha kubona ibyo wifuza byose kandi bitakugoye, kubera ko byagerageje kwegerezwa abaturage.

Iyo ugiye guhaha biba byiza iyo witwaje icyo kugupfunyikiramo kandi biba akarusho iyo utwaye icyo gupfunyikamo kitangiza ibidukikije, mu byangiriza ibidukikije twavugamo amasashi na parasitike.

Aho bahahira ni hamwe mu hakwiye kuba isuku ariko cyane cyane abanyesuku bagomba kwita aho bahahira ibiribwa, kubera koba bidakozwe gutyo byarangira abantu baguze ibiribwa byanduye bikaba byabatera indwara ziterwa n'umwanda.

Ni byiza kujya guhaha ariko na none nk'uko bakomeza kubidukangurira, biba byiza guhaha ibikoresho cyangwa se ibyo aribyo byose bitarengeje ubuziranenge ni ukuvuga nyine gifite ubuziranenge.

Mperutse kujya kugura imbuto mu isoko rya Nyarugenge nsanga aho zicururizwa hadafite isuku, nahise mbyihorera ahubwo mbwira abazicuruza ko bagomba ku isulku y'aho bacuruza ndetse n'ibyo bacuruza.

Abantu benshi iyo bagiye guhaha bitwaza udukapu cyangwa se ibindi byo gushyiramo ibyo bahashye, gusa mu masoko amwe n'amwe hari aho uhahira ibintu maze bakagupfunyikira.

Hari amarushanwa agenda ashyirwaho n'ibigo bigiye bitandukanye; ni ukuvuga ibigo bya leta, iby'abikorera cyangwa ibitegamiye kuri leta. Iyo utsinze ayo marushanwa baguha igikombe.

Ni byiza ko buri muturage wese yitabira mu gutanga ubwisungane mu kwivuza benshi dukunze kwita mituweli. Iyo umuntu afite ubwisugane mu kwivuza bituma atarembera mu rugo.

Ikigo cy'ubwisungane mu kwivuza kizwi nka mituweli cyagerageje uko gishoboye, gikura gahunda zacyo ku gukoresha agakarita ahubwo gihindura gukoresha indangamuntu, aho usanga witwaza indangamuntu, ikaba irimo amakuru yose y'abagize umuryango.

Kuri ubu abanyarwanda, twamaze kumenya agaciro ka mituweri, kubera ko umuntu wese uyitanze ntabwo ajya arembera mu rugo, ariko iyo utayitanze ukagira ibyago ukarwara, baguca amafaranga menshi.

Umuhoza ndetse na Mutesi ntibabyaye mu kwezi gushize, ariko basanze badafite ubwisungane mu kwivuza, ibyo ngibyo byarabagoye kubera ko batanze amafaranga menshi, ariko nabo bahise biyemeza kujya batanga ubwisugane mu kwivuza.

Uko iminsi igenda isimburanwa leta y'u Rwanda igerageza gushaka uburyo bwakorohera buri wese bityo agashinganisha ibye cyangwa se akishinganisha mu bijyanye n'igihe kirekire, akazabasha kugobokwa ageze mu zabukuru kandi ku mafaranga make.

Umugore wa Munyemana akunda gusesagura cyane, dore ejobundi umugabo we yamuhaye amafaranga ajye kugura imbuto yo gutera we yiguriramo ibyo kurya, none ubu bari mu nzara ndetse n'ubukene bikabije cyane.

Mu isoko mpuzamahanga rya Nyarugenge, hakozwemo ubushakashatsi. Byagaragaye ko abacuruzi barenga mirongo itanu ku ijana, bafite ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge. Abo ngabo barahanwe.

Niba ushaka kugura ibintu byiza kandi bifite agaciro, bisaba ko ujya ku isoko kubera ko isoko ari ahantu hahurira abagurisha ndetse n'abaguzi.

Amaduka menshi by'umwihariko aya akomeye, usanga bifashisha kamera zicunga umutekano kandi zigafata n'amashusho kugira ngo igikorwa cyose cy'ubujura kibayemo zibashe kukibika bityo hanyuma uwibye aze gufatwa bitagoye.

Niba ushaka kugira ubuzima bwiza bigusaba kurya ibitera imbaraga, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri, ibyo byose nta handi wabikura uretse ku isoko.

Ubungubu mu Rwanda ntibikibaho ko umuntu akora urugendo runini kugirango agere ku isoko, kubera ko leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kwehegereza serivisi abaturage. Ni nayo mpamvu rero iyo umuturage ashatse guhaha, anyarukira nko muri metero nk'eshanu akaba abonye isoko agaha ibyo ashaka.

Hari ibicuruzwa byinshi ushobora gusanga mu masoko manini, harimo amata, imitobe n'ibindi bitandukanye, ariko na none ugomba kugenzura ko byujuje ubuziranenge.

Ababyeyi akenshi na kenshi iyo batashye bavuye mu mirimo yabo ya buri munsi, bahitamo kunyura mu nzu zicururizwamo bimwe mu bikoresho byo mu rugo, by'umwihariko ibikunda gukenerwa n'abana ariko hakubiyemo ibyo kurya, kugira ngo bataza guhinguka mu maso y'abana babo nta kintu babashyiriye.